Umwe wambaye utwuma tumufasha kureba neza inyuma yabo hari igitambaro kinini cy'umweru kiri mumabara y'ubururu ,umukara n'umweru hirya hari ibendera.

Umwana wirabura wambaye ipantaro ihinnye n'umupira w'amaboko magufi, ufashe ku ijerekani iri kujyamo amazi n'ayandi hasi yayo, inyuma y'umugezi hari urutoki n'ibyatsi.

Umwana wambaye ikabutura yacitseho n'ishati isa icyatsi, uri koga intoki ku mugezi, iruhande rwe hari indobo y'ubururu, inyuma ye hari ibiti byinshi.

Umugore uteruye umwana, yicaye imbere ya muganga, wambaye itaburiya y'umweru n'agakoresho, yifashisha ari gupima gutera k'umutima.

Abantu batandukanye bahagaze imbere y'umugezi, umwana ufite igitenge ku rutugu n'ijerekani mu kuboko kwe kwibumoso, utetse k'umugezi n'abandi bafite umutaka w'ubururu.

Abagore batatu bicaye, babiri bari kwandika mu makaye, bafite amakarita y'icyatsi kibisi, mu maboko yabo y'ibumoso iruhande hari undi wicaye wambaye imyenda y'umweru, inyuma ye hari n'ibindi bikoresho.

Umugabo ufite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo ahagaze imbere y'abantu bicaye ku ntebe z'umweru harimo n'ushinzwe umutekano, inyuma yabo hari igitambaro kiri mu mabara y'ubururu cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abantu batandukanye bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara, ubururu, kake, bafite n'ibikapu bari imbere y'inyubako isakaye, ifite ibara ry'ubururu iriho icyapa kiriho amagambo ari mu mabara y'umweru, n'ubururu yo mu kinyarwanda.

Amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, ari mu rurimi rw'icyongereza, afite ibara ry'ubururu n'agashushanyo kameze nk'inzoka, kazengurutse ku gati gahagaze.

Umugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, wicaye wafashe ku rutugu no ku nda by'umugore utwite, imbere y'umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya y'ubururu.

Abagore batatu bari ku ivomero, umwe uri kudaha amazi abandi babiri bari gusunika amazi, bambaye ibirenge umwe ufite igitambaro mu mutwe.

Abantu begeranye abana batoya n'abantu bakuru bari kwitegereza abantu bari imbere yabo, babiri bahagaze undi upfukamye hasi, umwe ufite indangururamajwi n'icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'umweru n'umuhondo, ari ku cyapa.

Abantu bicaye mu bihande bibiri barangajwe imbere n'abandi batatu bicaye mu myanya itandukanye, inyuma yabo hari ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru, ishushanyijeho n'umuntu wambaye imyenda itwikiriye hose iri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Abantu bari ku mugezi, bambaye udupfukamunwa, iruhande rwabo, hari ibiti n'amagare, amajerekani ari ku murongo ajyamo amazi, indi ifite umubirikira ku ivomero, rifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu batanu bari ku mugezi abagore babiri, umwe uri koza umwana wicaye mu ibase, ku ivomero rifite ibara ry'ubururu, inyuma hari inyubako ifite igisenge.

Abana babiri bambaye imyenda y'umutuku, umwe afite igikombe kirimo amazi mu kuboko kwe kw'iburyo, ari gusukira mu ntoki undi bari kumwe, hejuru hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza gisa ubururu.

Umugore ugaragiwe n'abana wirabura, wambaye amarinete, uhetse, ukenyeye igitenge cy'amabara y'umuhondo n'umukara.

Abagore bane biteze ibitambaro mu mutwe batatu, bambaye ibitenge, umwe uri imbere ari kwitabwaho n'umuganga wamuziritse igikoresho, ari kumva uburyo amaraso atembera.

Abana babiri bicaye, umwe wazamuye ukuboko wambaye umupira w'imbeho, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara, cyanditsweho n'ingwa y'umweru, n'inzu yubakishijwe amabuye.

Indobo y'umweru ifite umufuniko n'umukondo by'ubururu, iteretse hejuru y'intebe iruhande hari umwana utsikamiye aho amazi aturuka ava mu gikoresho, wambaye ishati y'amaboko maremare.

Abana babiri bicaye iruhande rw'umugezi bari koga intoki; inyuma yabo hari ibyatsi byumye biteyemo igiti kidafite amashami; amazi ari gutemba hafi yabo.

Umubyeyi wirabura, ateruye umwana, wambaye ingofero umutwe, umuganga wambaye impuzankano, ari kumuha amata umuryango wicyatsi ufunguye.

Amagambo y'impine arambuwe mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, ubururu n'umweru wiganje, bisobanura isuku n'isukura by'amazi.

Abagore bambaye imipira y'umweru, bicaye bateruye abana, bambaye imipira y'umuhondo, imbere yabo hari umugabo wambaye amarinete, ufite imisatsi myinshi, uri guha amata umwana.

Umugabo wambaye ijiri y'ubururu yanditsemo inyuma mu mugongo amagambo ari mu ibara ry'umweru, wambaye ishati y'umweru na marinete, n'umugore wambaye umupira w'icyatsi, isaha y'umweru ufite n'imisatsi myinshi, bafite ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu batandukanye bari kurambura amaboko bari kubyina, inyuma yabo hari intebe ziri mu mabara y'umweru n'umukara hari n'ameza ari imbere y'iyo ntebe, igikuta giteye irangi gifite n'ibishushanyo bigiye bitandukanye.

Abahungu batandukanye bari ku mugezi, umugore umwe ari gusunika amazi yambaye umupira w'icyatsi yateze n'agatambaro ku mutwe n'umwana ufite ibikoresho bijyamo amazi biri ku mugezi. Iruhande rwe hari abandi bagizwe n'abana, abagore inyuma yabo hari insina nibindi byatsi.

Abagore babiri bambaye ibitenge umwe yicaye ateruye umwana uri guhabwa umuti n'umuganga wambaye amaherena k'umatwi usutse imisatsi.

Umugore cyangwa umukobwa usutamye wirabura, wambaye imyenda iri mu mabara y'umukara n'iroza, inyuma ye hanitse imyenda, hirya hari n'inyubako y'amabati gusa.

Umugore uri ku mugezi, wambaye umupira w'amaboko maremare, ukenyeye igitenge n'ingofero, munsi ye hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, yanditse mu ibara ry'umweru, asobanura amazi, isuku n'isukura mu Rwanda.

Abana batanu b'abakobwa bambaye imyenda y'ishuri bari ku mugezi bakaraba intoki, inyuma yabo hari ibiti birebire bifite amababi asa icyatsi.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara, umwe afite telefone mu ntoki, undi afite ibitabo, inyuma yabo hari igitambaro cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, gifite irangi ry'ubururu.

Ababyeyi barenze umwe bicaye bateze ibitambaro, bambaye ibitenge bateruye abana mu biganza byabo, imbere y'igikuta gifite amabara y'umutuku, umukara n'umweru.

Umwana uri guseka wambaye imyenda iri mu mabara y'umuhondo n'ubururu ufite udukombe tubiri mu ntoki turimo amazi, inyuma ye hari ikidendezi kirimo amazi, hejuru yacyo hahagaze abandi bana.

Abagore batatu bambaye ibitenge n'ibirenge bakikijwe n’igikuta kiriho irangi ry'ubururu ryashishutse bari gusunika amazi undi avoma inyuma hari igiti gifite amashami menshi.

Umugabo wambaye umupira wa kaki wanditseho amagambo ari mu mpine y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima buri guterwa urushinge n'abantu bambaye imyenda y'umweru na gants n'udupfukamunwa.

Abantu batandatu bicaye mu ntebe z'amafuteyi, harimo abagore babiri n'abagabo bane bambaye bose udupfukamunwa, inyuma yabo hari igitambaro cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'icyongereza.

Abagore bicaye ahantu hisanzuye, imbere yabo hari abandi bahagaze bari kwakirwa, ku gikuta hari ibipapuro biri mu mabara y'ubururu byandikishijweho ibara ry'umweru, umuryango winjira ufunguye.

Umugore wikoreye ijerekani y'umuhondo ipfundikijwe ishashi n'umufuniko w'umutuku, imbere ye hari umwana wambaye imyenda y'ubururu n'umugabo wambaye imyenda ya kake n'inzu ifite igisenge cy'umutuku.

Abana batandatu birabura bari koga mu mazi magari, umwe afite imbeho, undi yarambuye amaboko.

Abantu batandukanye bambaye amataburiya y'ubururu, bafite ibitabo ku bibero byabo, iruhande hari imeza ifite igitambaro cy'icyatsi, idirishya rifunguye, abandi bambaye n'ibitenge.

Umugabo ufite igishushanyo mu ntoki kiriho abana babiri umuhungu n'umukobwa, wambaye igisarubeti, ahagararanye n'umugore ukenyeye igitenge, inyuma yabo hari inyubako ifunguye idirishya.

Abantu batatu, umwe ahagaze hejuru y'imifuka n'abandi babiri b'abagore bambaye ibitenge, bari kumuhereza umufuka bafashe mu ntoki, hirya hari ibiti.

Abantu benshi bahagaze n'abicaye bari ahantu haparitse imodoka imbere y'inyubako ifite ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere iruhande rwabo hari ibimera bigiye bitandukanye.

Icyumba kiri kuberamo ibiganiro, aho abantu bateze amatwi umuntu uri kuvuga, imbere hari igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abantu bicaye m'icyumba cy'uruganiriro bakurikije amaso ibiri imbere yabo hagati yabo hari akameza kariho icyo kunywa inyuma hari utwuma dufasha umuntu uri gufata amashusho.

Umwana wirabura usutamye uri gukaraba mu ntoki useka, iruhande rwe hari ijerekani y'ubururu n'indi y'umuhondo.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru n'ubururu inyuma y'abo hari igikuta kinini kiri mumabara y'umweru n'ubururu cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Utwuma tubiri turi mu ibara ry'ubururu n'umukara duhagaze, iruhande rwayo hari n'utundi turi mu mabara y'umukara wiganje duhagaze ku twuma dufite ibara ry'ivu.

Umuntu wicaye ku ntebe, ukikijwe n'abantu bambaye imyenda y'umweru, umukara, umutuku, icyatsi, hejuru yabo, hari amashami harimo n'ushinzwe umutekano.

Abana bambaye imyenda isa bari kumwe n'abandi bakuru iruhande rwabo hari abagabo bicaye bambaye amakoti y'umukara n'ishati z'mweru inyuma yabo hari ameza ariho amacupa.

Umugore wirabura wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe n'ishapure mu ijosi, ufite akana mu kuboko kwe kw'ibumoso kambaye ingofero kari kwitabwaho n'umuganga wambaye impuzankano, inyuma yabo hari abantu bahagaze.

Abantu babiri bahagaze hagati y'abandi bicaye umwe afite ikaramu mu kuboko kw'iburyo n'ikayi mu kuboko kw'ibumoso, inyuma yabo hari inyubako yubakishijwe imbaho.

Umugabo udafite umusatsi uri ku ivomero rifite imyanya ine na sima, inyuma ye hari ibimera bifite amababi y'icyatsi imbere y'umugezi hari ijerekani y'icyatsi.

Umugezi uzengurutswe n'abana bafite utuvomesho n'abandi bahagaze bari kureba n'undi uri gusunika amazi, inyuma yabo hari ibimera bigiye biri mu mabara y'icyatsi kibisi.

Icyumba kirimo abantu bambaye udupfukamunwa babiri bicaye ku ntebe bari kwakira umuntu, umwe ari kuri mudasobwa yandikamo amagambo. Iruhande rw'abantu hari ibyapa biri mu mabara y'ubururu byandikishijwemo amagambo y'umweru, umuryango n'idirishya bifunguye.

Umwana wambaye inkweto zifunguye z'ubururu ikabutura y'umutuku n'umupira w'amaboko maremare ukoze nk'imyenda ya gisirikare uri kunywa amazi kumugezi n'ibiganza byombi amwe ameneka mu ndobo iri munsi y'umugezi.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'igitambaro cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umweru, iruhande rwabo hari abana n'umugore uteruye umwana mu ntoki.

Umuganga wambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'umweru, iruhande rwe hari umufasha kwita ku barwayi ufite ibinini mu ntoki, imbere ye hari udukoresho yifashisha avura abarwayi.

Umugabo wambaye amarinete n'ikote ry'umukara, iruhande rwe hari n'undi wambaye itaburiya y'umweru n'abantu benshi bambaye amataburiya asa nk'ikirere cy'ijuru, bambaye udukoresho twerekana ibyo bakora mu ijosi.

Abana batandukanye bicaye hasi, bari guhabwa icyo kunywa n'abandi bafite udukombe mu ntoki, bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi, ikigina n'ubururu bwijimye bambaye n'ingofero, iruhande rwabo hahagaze abandi.

Umubyeyi utwite wambaye agapfukamunwa uryamye hejuru y'igitanda ugaragiwe n'undi mugore, i ruhande rwe umufashe ku rutugu undi ateze akuma gakurura amajwi yumva ibiri kubera mu nda.

Umugore uhetse umwana mu mugongo wambaye umupira amaboko magufi wicyatsi akenyeye n'igitenge, ari koza umufuniko mu indobo y'umuhondo, imbere ye hari umugezi hirya hari ibyatsi birimo n'ibiti.

Abantu bicaye mu bihande bibiri, bari guhabwa ikiganiro n'impuguke, iri kugenda hagati yabo, inyuma hari abandi bambaye amataburiya y'umweru n'abandi bari ku muryango.

Abagore bari mu cyumba kirimo ameza bakikije igikuta cy'inzu barimo, gishushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye harimo umwana n'igiti n'inzu.

Umubyeyi wirabura, ufite n'umusatsi w'umukara, uteruye umwana, uri kwitabwaho na muganga, wambaye impuzankano y'akazi, umuryango usa icyatsi ufunguye.

Umugabo n'umugore witeze igitambaro mu mutwe, bari ku mugezi bafite amajerekani mu ntoki bavoma amazi, hepfo yaho hari ibiti birebire biri kumwe n'ibyatsi.

Umugabo cyangwa umusore ufite umusatsi mwinshi, wambaye amarinette n’umupira w'amaboko magufi, ufite isahani mu ntoki, uri kugaburira umwana uteruwe n’umugore wambaye umupira w’umweru iruhande rwe hari n’abandi bagore bicaye.

Abantu bambaye imyenda n'ingofero biri mu mabara y'ubururu n'umweru bafite igitambaro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse mu ibara ry'umweru n'umuhondo iruhande hejuru hari amagambo ahinnye ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ivomero ririho abantu bari gusunika amazi, ijerekani iri kujyamo amazi y'umuhondo n'akabido, bakikijwe n'ibyatsi byinshi n'inyubako ziciriritse n'insina.

Umugabo wambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu, umweru, wambaye n'udupfukamunwa n'akanozasuku, bafite udukarito mu biganza byabo, iruhande rwabo hari ikirahure kigaragara.

Umwana wambaye umupira wi roza uri guseka, wikoreye jerekani iriho icyapa cy'ubururu cyanditsemo amagambo y'umweru, uri kumwe n'umugabo wambaye umupira w'ubururu, ijiri ya kake, uri guseka, ukoze ku ijerekani, wambaye isaha.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro ya kake, inkweto z'umweru, wirabura, uhagaze hagati y'abantu bagiye batandukanye arikubaha ibiganiro.

Inyubako iri ahantu hisanzuye, isakawe n'amabati atukura, ruguru yayo hari ikigega kijyamo amazi gifite ibyuma ku ruhande.

imodoka ndende ifite aho gutwarira imizigo habiri, inyuma ku muzigo hariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, imbere yayo hari indi bigiye kubisikana mu muhanda.

Abagore bafite indobo z'ubururu n'umutuku, bambaye ibitenge, biteze ibitambaro mu mutwe n'umwana wirabura, inyuma yabo hari inyubako isakaye, iruhande rwayo hari ibiti birebire bifite amashami menshi.

Mu cyumba cy'uruganiriro kirimo abantu bicaye, imbere yabo hari abari gutanga ikiganiro, inyuma yabo hari igitambaro cy'icyatsi cyandikishijwemo amagambo ari mu ibara ry'umweru, gifite n'amafoto agiye atandukanye y'abantu.

Umukobwa wambaye umwenda w'umukara hasi, wicaye imbere ye hari amabase abiri, imwe yamenetse ku mukondo, ateretsemo ijerekani y'umuhondo iriho icyapa cy'umutuku cyanditseho amagambo ateretse ku mugezi ari kujyamo amazi, inyuma ye hari imyenda yanitse mugozi.

Umwana wambaye imyenda y'ubururu uri guterwa urushinge n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare irimo uburongo, iruhande rwabo hari abana bicaye bari kubareba.

Umukobwa uteruye umwana ufite imisatsi y'umukara, wicaye imbere y'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ga z'umweru ufite na we imisatsi y'umukara, ufashe mu biganza by'umwana.

Itsinda ry'abantu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, inyuma yabo hari icyapa kiriho abantu bambaye amataburiya n'amagambo ari mu nyuguti nkuru ari mu ibara ry'icyatsi.

Abana batandatu barimo abahungu babiri bafite ibikombe by'amabara atandukanye bahagaze imbere y'ibigega bibiri by'umukara bari kunywa ku munwa, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amabati, urutoki n'ibiti.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku, umupira ufite amabara y'igisirikare n'inkweto zifunguye z'ubururu, uri kunywa amazi ku mugezi hasi hari indobo yuzuye, iruhande hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku uteruye umwana uri konka, n'undi wambaye igitenge kigizwe n'amabara agiye atandukanye y'umuhondo n'umutuku uteruye umwana wambaye amasogisi y'umweru, umupira w'ubururu n'ikabutura y'umuhondo bigaragara ko agiye gupimwa ibiro ku munzani.

Umugore ateruye umwana, imbere ye hicaye umugabo wambaye bote z'umweru, bose bicaye ku ntebe, iruhande rwabo hari ibitabo n'inyubako iri iruhande rwabo.

Abantu bane bari kumugezi umwe ari gusunika amazi kumugezi wubatswe ku buryo amazi aramutse amenetse yatemba ,hirya hari ibidukikije birimo ibiti n'ibyatsi.

Umubyeyi witeze igitambaro mu mutwe wambaye n'igitenge uri kumwe n'abana babiri muri bo bari gusunika amazi ajya mu mabase, iruhande rwayo hari n'ijerekani ipfundikije umufuniko w'umutuku.

Abantu batandukanye bahagaze imbere y'inyubako yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, umuryango ufunguye, iruhande rwabo hari icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, gishushanyijeho umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako no mu nyubako, imbere y'aho hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda n'igisharagati gifite ibara ry'umweru n'igitambaro kimanitse imbere y'inyubako, iruhande rwayo hari umuryango wicyatsi.

Umugabo muremure wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru ufite agakoresho kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru, inyuma yabo hari ibitambaro biri mu mabara y'ubururu n'umweru yandikishijwemo amagambo ari mu nyuguti ndende ziri mu mabara y'ubururu.

Umukobwa wicaye imbere y'umugezi ari kuvomera mu ijerekani iri mu mabase abiri, inyuma ye hanitse imyenda, inyubako iri iruhande rwe yubakishijwe amabati.

Abantu bicaye bakoze uruziga, bafite impapuro mu ntoki n'agacupa kari hafi yabo, hirya yabo hari abandi bicaye ku ntebe y'igikuta gifite amadirishya afite ibirahure.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye ahantu hamwe, abagabo n'abagore, harimo abahetse abana, abiteza ibitambaro mu mutwe, abambaye ingofero, abafite abana mu ntoki, abana bari kugenda, inyubako n'ibisharagati.

Umugore wambaye ikanzu ikoze nk'igitenge n'ijire y'icyatsi n'agapfukamunwa n'amarineti, uri kumwe n'abandi iruhande rwe, umwe wambaye ingofero y'umukara, iruhande hari amazi n'ibidukikije.

Ubusitani bugizwe n'ibikorwa remezo n'ibidukikije birimo ibiti, amazu, ibyatsi bigufiya n'iminara.

Abantu bari ku ivomero umwe uri gusunika amazi abana bari kuvoma iruhande rwabo hari guturuka ikinyabiziga kiri mu mabara y'umweru n'ibidukikije bigizwe n'ibiti n'ibyatsi hirya yabo.

Abantu bane bambaye imyenda igizwe n'amabara y'ubururu, umutuku, icyatsi, n'umukara bicaye ku ntebe zirambuye hejuru yabo hari ibipapuro bishushanyijeho amafoto agiye atandukanye yanditseho n'amagambo.

Abantu bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku n'umweru n'avangavanze, bicaye mu cyumba bateze amatwi inyuma hari umuryango uriho udutambaro ku gikuta hari ifoto imanitse ku gikuta cy'umweru.

Umusore cyangwa umugabo wambaye umupira w'umukara ufite umusatsi mukeya, witeze ibiganza byombi mu maso ahishe isura, inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'ivu.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umukara ndende n'ingufiya hejuru ku mpande z'icyo cyapa hari ibirango, icya polisi n'icy'igihugu.

Umusaza uri guseka wambaye ingofero n'ishati y'umweru, irimo uburongo y'amaboko maremare n'umwitero w'umuhondo ku rutugu, icumu mu ntoki ufite inyinya; iryinyo ryavuyemo.

Umukobwa cyangwa umugore wihebye washyize ibiganza byombi mu musatsi uzinze, wambaye umupira w'ubururu bwererutse.

Umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye amarinete n'umupira w'umweru, imbere ye hari uducupa turimo amazi, inyuma ye hari abantu bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku n'icyatsi kibisi.

Umuntu wambaye inkweto z'umukara n'imyenda iri mu mabara y'umukara na kake, uhagaze imbere y'inyubako ikikijwe n'ibyatsi n'ibiti, ifite amagambo ari mu ibara ry'ubururu yanditse hejuru y'ibaraza.

Abantu, abahungu n'abakobwa bambaye imipira y'ubururu n'umugabo uhagaze hagati yabo ubasumba, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru n'umugore uri ku ruhande rwabo wambaye ikote munsi yigisenge cy'inzu.

Abantu batandatu bicaye ku ntebe y'urubaho irambuye, iri imbere y'inzu ifunguye umuryango, iruhande rwabo hari ibimera birimo insina n'ibiti.

Abantu bagizwe n'abagore, abagabo cyangwa abakobwa n'abahungu, bahagaze munsi y'igisenge, imbere yabo hari ameza, ariho ibyo kwandikamo, n'inyuma hari igikuta kimanitseho, ibipapuro.

Abagore bahagaze iruhande rw'ameza ariho uducupa tw'amazi, bari gukoma amashyi mu nzu mberabyombi, bafite imisatsi y'umukara, bambaye imyenda ikoze mu gitenge.

Igishushanyo kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho abantu babiri bafite umutwe urimo uduce tune n'amagambo yanditse mu nyuguti nkuru ku ruhande mu rurimi rw'Icyongereza.

Umusore ufite ubwanwa bw'umukara bukeya, wambaye umupira w'umuhondo, amenyo y'umweru, amatwi, amazuru, amaso n'umusatsi mukeya, inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Abantu babiri, umwe wambaye imyenda itukura n'umukara n'undi ufite imisatsi miremire n'agakapu mu ntoki, bari gukina ikinamico.

Igishushanyo gifite imibare hasi no kuruhande n'umurongo uhagaze uri hagati, hejuru hari amagambo ari mu ibara ryumukara wijimye cyane, iruhande hari andi magambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Igishushanyo kiri mumabara y'ubururu, umweruru n'icyatsi, hasi hari amagambo ari mu mpine, aramburwa, amagambo arambuye mu ururimi rw'icyongereza.

Abagore babiri bakenyeye ibitenge bateruye abana mu ntoki, umugore umwe hirya yicaye ku ntebe ameze nk'uri kubaza ibibazo, mu nguni hari akuma gashyushywamo amazi, igikuta gifite amakaro, umuryango ufunguye n'agakoresho gashyirwaho inkweto.

Umukobwa w'imibiri yombi wicaye mu ntebe wambaye ipantaro yacitse, yahinnye ukuguru kumwe kw'ipantaro, yambaye n'isengeri uri guseka ufite imisatsi myinshi y'umukara.

Abantu bambaye impuzankano y'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano bahagaze hamwe, bari kumwe n'abandi batambaye impuzankano, inyuma yabo hari igikuta kiriho ikarita ya Afurika n'ikirangantego cy'igihugu, n'ikirangantengo cya polisi.

Umugore wirabura ufite imisatsi igera mu mugongo wambaye isengeri y'umuhondo inyuma ye hari akabati gapanzemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye biri mu ducupa tw'amabara atandukanye.

Umwana wicaye ku ntebe utsikamije ukuboko kwe kw'iburyo ku meza, wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufiya n'imisatsi igera mu gahanga, inyuma ye hari undi wicaye ku ntebe wegamye ku gikuta.

Abantu batandukanye bahagaze bafite igitambaro, imbere yabo gifite amabara y'icyatsi n'umweru, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Igifaransa, mu nyuguti nkuru n'intoya.

Abantu bicaye n'abandi bahagaze, harimo abambaye n'amarinete, inyuma yabo hari umuryango ufunze n'idirishya ririho igitambaro, iruhande hari ifoto iriho umuntu imanitse.

Inyandiko ziri mu mabara y'ubururu n'umukara, intoya n'inini, ziriho ifoto mu nguni, umugabo ahagaze hagati y'amabendera abiri, rimwe ry'Igihugu cy'u Rwanda n'irindi riri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Abantu batandukanye bagizwe n'abagabo n'abagore, bahagaze imbere y'inyubako, iruhande hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nkuru.

Umupira w'umweru ufite amaboko aciye asa ubururu, ikora ry'ubururu, mu mugongo wabo handitsemo amagambo ari mu ibara ry'ubururu, amwe mu nyuguti nkuru ayandi mu nyuguti ntoya.

Umugore wirabura warakaye ufite amaso y'umweru, agahanga ke kegeranye, witeze igitambaro mu mutwe, wambaye n'amaherena ku matwi.

Umubyeyi ufashe ku ishati y'umwana washyize ukuboko ku rutugu rw'umugabo, wambaye ishati ifite imifuka ibiri n'inkoni mu ntoki, iruhande rwe hari umwana mutoya, inyuma ye hari n'abandi bantu.

Umugore wambaye agakoresho kamufasha kureba neza ku maso n'imyenda iri mu mabara y'umuhondo n'ubururu, ufite mu kuboko kwe kw'iburyo, agakoresho kanditseho amagambo aranga igikorwa cyo kwibuka.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'icyatsi ufite amatwi abiri, amaso abiri uri kurira uva amarira mu mumaso, amazuru ari kuvamo ibimyira.

Umwana ufite agatambaro mu biganza byombi, uri kwihanagura mu maso, wambaye ingofero ifite ubwoya bwinshi, inyuma ye, hari abandi bantu.

Abantu bahagaze imbere y'igitambaro cyanditseho amagambo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima, bari kwifotoza abagabo n'abagore.

Abakobwa babiri bicaye begeranye, umwe wambaye imyenda itukura n'ingofero witangiriye itama undi imyenda y'umukara wambaye amarinete bari kuganira ameze nk'uri kumuhumuriza.

Umugabo uri guseka wambaye ishati y'ubururu, ufite umusatsi mukeya, uhagaze imbere y'abantu bahagaze imbere y'ibibumbano by'ingagi biri mu mabara ya kaki.

Abantu bicaye mu cyumba cy'ibiganiro, imbere yabo hari igitambaro kiriho insanganyamatsiko, ikirangantego cy'igihugu n'amagambo ari mu mpine asobanura ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Umubyeyi wicaye ateruye umwana, witeze igitambaro, iruhande rwe hari undi, n'igikoresho gitoranyirizwaho ibiribwa, n'inzu iri inyuma yabo isizwe ibyondo.

Umugabo ufite umusatsi mukeya, wambaye ingofero ya shokora irimo ibara ry'umukara, ahetse igikapu imishumi iri kunyura mu bitugu bye, wambaye ikote ridafunze ibipesu n'isaha ku kuboko.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare n'isaha ku kuboko kw'ibumoso wirabura, ufite agakoresho mu ntoki ari kwita mu kanwa gafite amenyo n'ishinya itukura.

Ifoto yafashwe n'ibyuma by'ikoranabuhanga byo kwa muganga, igaragaza igice cyo hasi ku munwa w'umuntu, amenyo ateye mu ishinya ayo hejuru n'ayo hasi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ibara ry'ivu n'umuhondo, bazamuye amaboko yabo yombi, bafite uburoso n'umuti w'amenyo mu biganza byabo.

Abantu batandatu bari mu cyumba cy'ishuri harimo umuganga uri gusobanurira umunyeshuri ufite imfashanyigisho igizwe n'amenyo n'ishinya mu ntoki, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyandikishijweho ingwa y'umweru.

Umuntu wirabura ufite umusatsi mukeya, wambaye agapfukamunwa n'itaburiya, inyuma ye hari agakoresho gafite ibara ry'umweru, n'imbere ye hari n'ikindi gifite imigozi ari kwandika ku rupapuro.

Abantu bambaye imipira y'icyatsi, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo mu rurimi rw'Ikinyarwanda tubiteho, bari kwitabwaho n'abantu bambaye imipira y'umweru n'udupfukamunwa, basamye bari kubareba mu kanwa.

Ifoto yafashwe n'ibyuma by'ikoranabuhanga byo kwa muganga, yafashwe herekanwa mu kanwa k'umuntu imbere, aho amenyo amera aturuka, ayo hasi n'ayo hejuru.

Umugabo ufite imvi wambaye amarinete n'umupira w'amaboko magufiya, uhagaze imbere y'ikirahure kigaragara ndetse hari agakoresho karimo umuti woza amenyo n'uburoso bwo kwiborosa.

Umugabo ufite umusatsi mukeya, urudodo mu kanwa n'amenyo y'umweru cyane, uri kwireba mu kirahure kigaragara, n’igikuta gifite irangi ry'umweru.

Umusore wambaye umupira w'amaboko maremare w'icyatsi kibisi, ufite agakoresho mu kuboko kwe kw'iburyo yagatunze urutoki rwe rwo ku kaboko k'ibumoso, ufite n'umusatsi mukeya.

Umugore cyangwa umukobwa wirabura, ufite imisatsi igwa mu maso n'urudodo mu kanwa, arucisha hagati y'amenyo asa umweru n'ishinya igaragara.

Umwana wasamye uri kurebwa mu kanwa n'umuganga ufite utwuma mu ntoki ze zambaye ga z'umweru n'itaburiya y'umweru ifunze n'ibipesu.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umweru uri guseka, ufite amenyo y'umweru, umusatsi mukeya, inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umuhondo.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho, icyo umurwayi yicaramo asuzumwa n'ikindi umuganga yicaraho areba ko umurwayi afite ikibazo.

Abagore cyangwa abakobwa babiri, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umukara n'ubururu, umwe ufite igipapuro mu ntoki n'undi uri kwandika n'ikaramu, iruhande rwabo hakikijwe n'ameza ariho igitambaro cy'ubururu n'uducupa.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byo kwa muganga biri mu mabara y'umweru n'umukara na mudasobwa, igikuta gifite ibara ry'umweru n'umwenge ucamo umuyaga.

Umugabo n'umwana bambaye imipira y'amaboko magufiya y'umweru, bafite urudodo mu ntoki zabo bari kunyuza mu kanwa bacisha mu menyo.

Abantu bicaye n'abandi bahagaze bari kumwe n'umugore uteruye umwana mu ntoki, inyuma hari igitambaro gisa umweru cyanditsweho inyuguti ziri mu mabara y'ubururu n'icyatsi.

Umugabo ufite urudodo mu biganza bye byombi ari kurunyuza hagati y'amenyo ye y'umweru, uri kureba imbere. Watoboye ugutwi kumwe.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye isengeri y'umweru uri kwireba mu ndorerwamo, ari koza amenyo y'umweru n'uburuso buri mu mabara y'umutuku n'umweru.

Umuganga wambaye imyenda y'icyatsi, wambaye ga z'umweru, isaha ku kuboko, wambaye n'amarinete, uri kureba mu kanwa k'umurwayi uryamye ku gatanda wambaye umupira w'icyatsi urimo uburongo bw'umukara n'umweru.

Umuganga w'umugabo ufite imisatsi myinshi n'ubwanwa wambaye amarinete, uri kumanika amafoto abiri ku gikuta gifite ibara ry'umweru.

Abana batandukanye, bambaye impuzankano iri mu mabara y'icyatsi n'amashati afite uburongo bunyuranyemo, bafite uburoso mu ntoki, bari koza amenyo n'udukombe.

Umugore werekeje intoki zombi zamukubitabikoko imbere y'umunwa we, ari guseka, afite amenyo y'umweru, imisatsi y'umukara n'izuru.

Abana birarabura bafite imisatsi mikeya n’uburuso mu ntoki boza amenyo, bambaye imyenda y’ubururu inyuma yabo hari igiti gifite amashami y’icyatsi kibisi.

Umusore wirabura, ufite urudodo mu biganza yanyujije mu kanwa, amenyo y'umweru, umusatsi w'umukara mukeya n'ubwanwa.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa, bari kwita ku mwana, wambaye agapfukamunwa k'umutuku mu kanwa, inyuma yabo hari ibishushanyo, biriho abantu n'igitambaro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Umuntu wirabura wasamye ufite amenyo y'umweru n'agakoresho mu ntoki karinda amenyo n'inzara ziciye, inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Umuganga ufite agakoresho mu ntoki, wambaye uturindantoki n'ishinya iriho amenyo ari kuyisukura, wambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwe hari n'ibindi bikoresho.

Umwana wambaye umwenda w'amaboko maremare, ufite uburoso buri mu mabara y'umuhondo n'ubururu, uri koza amenyo y'umweru, ufite amatwi abiri n'umusatsi mukeya.

Umwirabura uri guseka ufite imisatsi igera mu mugongo wicaye ari kwireba mu karahure gakoze nk'ikiziga iruhande rwe hari agakombe gateretse.

Umugabo wambaye ubusa igice cyo hejuru, ufite agasume ku rutugu rw'umweru n'urudodo mu ntoki zombi, ari gucisha amenyo n'ubwanwa bukeya ku matama.

Akuma gafite iryinyo hagati yaryo rikuwe mu ishinya hagaragaramo umwobo n'ibara ry'umweru ry'umuganga wambaye uturindantoki.

Umugabo cyangwa umusore wiyogoshesheje ufite ubwanwa bw'umukara n'amenyo y'umweru wambaye umupira w'umukara. Inyuma ye hari igikuta gifite irangi ry'umweru.

Abaganga babiri, umwe wambaye itaburiya y'umweru n'undi wambaye itaburiya y'ubururu, bambaye udupfukamunwa n'amarinete, bari gusuzuma mu kanwa k'umurwayi ubaryamye hagati.

Umugabo cyangwa umusore wirabura wasamye ufite amenyo y'umweru agiye arimo umwanya muto muto n'urudodo mu ntoki agenda acisha mu kanwa wambaye umupira w'umweru.

Ubwugamo bw'umweru n'ubwugamo bwicarwamo igihe kiringaniye, ufite icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, mu mpande hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, imbere hahagaze abantu bari gupimwa uburebure n'ibiro ku munzani, hari abambaye n'amataburiya y'umweru.

Abagore babiri bafatanye mu biganza, umwe ari inyuma y'undi, undi yicaye, inyuma yabo hari igikuta gifite irangi ry'umweru. Iruhande rwabo hari imisego.

Abagore batatu bari kugenda ku muhanda w'umukara, umwe wambaye amarineti abandi hejuru bambaye imyenda y'ubururu ku maboko ifite amabara y'umweru no mu ijosi.

Umugore urambuye amaboko, ufite imisatsi y'umweru, mikeya, wambaye amaherena ku matwi, uri kumwe n'undi, ufite imisatsi myinshi igera mu mugongo, iruhande rwabo hari imyanya yo kwicaramo n'inzugi z'ibirahure.

Itsinda ry'abantu icyenda bicaye mu busitani, bateruye abana, imyenda yanitse ku mugozi, baboha baganira.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa wicaye mu ntebe y'umweru imbere hari umukobwa wambaye umupira wicyatsi kibisi w'amaboko magufi n'agapfukamunwa ufite imisatsi izinze iruhande rwabo hari igiti gifite amashami y'icyatsi.

Abantu babiri bari kumwe umugabo ufite umusatsi n'ubwanwa burimo imvi n'umugore wambaye amarinete ufite amenyo y'umweru bose badafunze ibipesu.

Abantu batandukanye, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru n'umutuku, umwe afite imisatsi irimo imvi, iruhande rwabo hari urutoki, n'inyubako ikikijwe n'ubusitani, imbere yayo.

Umugabo ufite umusatsi n'ubwanwa burimo imvi, wambaye amarinete n'ishati y'amaboko magufi irimo uburongo, terefone mu kuboko kwe kw'imoso, igipapuro mu kuboko kw'iburyo yegeranye n'umugore imbere ku meza hari ibindi bipapuro.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara n'umukandara mu nda ushyigikiwe n'ibyuma bibiri, iruhande rwe afatishije amaboko, inyuma ye ahagaze umuganga uri kumureberara.

Umugabo wambaye amarinete umupira w'umukara wirabura ufite imvi m'umusatsi imbere ye hateretse igikombe cy'ikirahure kirimo amazi ateretse ku ameza iruhande hari impapuro umugore wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko maremare.

Abantu bakuze bicaye ahantu hamwe, bafite udukoresho mu ntoki zabo, bambaye ingofero ibikuta bifite amabara atandukanye n'imyanya icamo umuyaga.

Umubyeyi wambaye igikomo ku maboko, wegeranye n’undi uteruye umwana, uzengurutswe n’abandi batandukanye benshi, inyuma yabo hari ikidomoro gifite umufuniko w’umukara, bamwe bicaye ku buriri abandi bahagaze.

umugabo wambaye umupira, ikabutura, inkweto n'amasogisi, udafite umusatsi, uri kumwe n'umwana ufite umupira munini ukinwa n'intoki mu ntoki ze, bahagaze mu kibuga bakiniramo umukino w'intoki.

Abantu batatu bicaye imbere y'inyubako ifite umuryango ufunguye barimo umusaza w'imvi z'umweru n'abana babiri bicaye iruhande rwe, umwe afite agacupa k'umweru n'ibyo bari kurya mu maboko yabo.

Abera n'umwirabura umwe bakuze bari gukora imyitozo ngororamubiri, bafite utwuma two guterura mu maboko yabo, inyuma hari ibyatsi n'ibiti.

Umuntu wambaye ibirenge n'umwenda usa ubururu, afashe akuma mu biganza byombi, gafite amaguru ane, inyuma ye hari igikoresho cyo kwicaramo n'ikindi iruhande rwacyo.

Abantu babiri bahagaze bari kuganira umwe ufite imvi wambaye amarineti n'igikombe cy'ikirahure kirimo icyo kunywa, imboga ziteguye imbere yabo, igikuta kimanitseho isaha.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'amarinete uri guseka ukoze ku rubaho, ufashe mu kiganza cy'umugore wambaye umupira w'ubururu imbere n'imisatsi myinshi igera mu mugongo.

Inzu irimo icyumba cy'uruganiriro, cyicayemo abantu batandatu, umugabo wirabura, wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite umusatsi urimo ivi, inyuma ye, hari umuganga wambaye impuzankano.

Abantu bicaye ku ntebe, bafite inkoni mu maboko yabo, bari ku murongo begamye ku gikuta, imbere yabo hari igiti gihagaze.

Abantu batatu bambaye imyenda iri mumabara y'umutuku umweru n'umukara umwe uri hagati yambaye amarinete babiri bamukikije bafite isahani iriho imigati n'uduti tubiri duteruye imboga z'icyatsi.

Abantu babiri bafatanye ku rutugu, umwe muremure n'undi wambaye ingofero bari kugenda mu muhanda w'amabuye, iruhande rw'umuhanda hari ibiti n'ibyatsi.

Abagore babiri umwe wambaye igitambaro mumutwe nundi ufite imisatsi miremire bari kugenda bakikijwe nubusitani bwiza burimo ibiti birebire n'ibyatsi bigufiya.

Abapapa babiri bambaye imipira y'umweru n'impuzankano yo mu myitozo ngororamubiri, bafite uducupa tw'amazi mu ntoki bari kwiruka.

Umugabo wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, ufite ubwanwa bw'umweru bwinshi, mudasobwa iteretse ku meza, imbere ye iruhande rwe hahagaze umwana w'umukobwa ufite imisatsi igera mu mugongo.

Umugabo mukuru ufite imvi mu bwanwa no mu musatsi, uri kugendera ku twuma tubiri, umuganga wambaye impuzankano amufashe ku rutugu no kuboko kwe kw'ibumoso.

Umugore ufite imisatsi isa umweru wambaye n'imyenda iri mu mabara y'umukara n'ubururu bazanye intoki imbere zikoze ku kirenge iruhande rwe hari intebe irimo imisego n'itara kuruhande.

Abamama icyenda batonze umurongo, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, umukara n'ubururu, inkweto zifunze n'izifunguye, inyuma yabo, hari igiti gifite amashami n'umuryango.

Abantu batandatu bari mu cyumba bane baricaye bari kuganira, abandi umwe ari kugendera mu kagare asunikwa n'umuganga wambaye impuzankano ufite agakoresho mu bitugu bye.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo, ibinini ku meza, udukombe turimo imiti, wambaye amarinete, ufite imisatsi igera ku rutugu.

Ababyeyi babiri bicaye kumeza y'urubaho, birabura, bafite imvi mu misatsi yabo, imbere yabo hari agakombe karimo icyatsi kibisi n'agakombe karimo amazi k'kirahure.

Umusaza w'imvi mu mutwe, wambaye amarinete, wicaye mu kagare gafasha abafite ubumuga bw'ingingo kugenda, uri gusunikwa n'umukobwa wambaye umupira w'ubururu bombi bari guseka.

Abantu batandatu harimo abagore babiri, umugabo umwe n'umusaza ufite imvi z'umweru, umugabo n'umugore bahetse abana mu mugongo inyuma yabo hari ibiti.

Umugabo wicaye kumeza, ufite imvi mu mutwe, wambaye ishati ifunguye ibipesu, irimo umurongo bw'umweru n'umutuku, uri kwarura ibiryo birimo imboga, iruhande rwe hari igikombe kirimo amazi.

Umugabo wirabura wicaye wambaye utwuma dufashe amaso kubona neza, ufite umusatsi urimo imvi, uri kwerekwa imyitozo ngororamubiri, n'umuganga wambaye impuzankano, hirya yabo hicaye undi mugore wambaye ishati y'umweru ufite n'imisatsi y'umukara.

Abagore bateze amatwi bumva ikiganiro bari guhabwa n'umugore, imbere yabo hari inyanya inyuma yabo hari imbuto, bambaye ibitenge biteze n'ibitambaro mu mutwe.

Abantu batatu bagizwe n'umubyeyi mukuru , umumama n'umwana bari kuganira basetse bari mu nzu y'uruganiriro bari kurya.

Umugore wambaye amarinete n'umupira urimo uburongo bw'umukara arimo asuhuzanya n'undi wambaye impuzankano y'ubururu, afite agakoresho gapima gutera k'umutima mu ijosi.

Umugore wirabura ufite umusatsi urimo imvi n'insakazamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo, inyuma ye hari ibinyabiziga bibiri bihagaze, iruhande rwacyo hari ibiti bibiri biri imbere y'inyubako.

Abantu babiri umuhungu n'umukobwa, bafite ibyapa mu ntoki zabo biriho imibare makumyabiri, mirongo itatu, inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, ari mu ibara ry'umweru.

Iigipapuro cy'umweru kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi n'umukara, mu rurimi rw'icyongereza n'ifoto y'umugabo cyangwa umusore wambaye ishati y'ubururu.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ari mu mabara y'umweru n'ubururu afite insanganyamatsiko zigiye zitandukanye mu bice bigiye biri mu migabane.

Abantu batandatu bambaye imyenda y'umweru na ga, bambaye udupfukamunwa inyuma hari umuntu wambaye imyenda itandukanye na bo, umuryango usa umukara ufite ibirahure n'inkingi zihagaze inyuma yabo.

Ababyinnyi bagizwe n'abahungu n'abakobwa bari kumurika imbyino gakondo bambaye imikenyero imbere y'abantu, inyuma yabo hari igitambaro kinini kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, iruhande rwabyo hari ikirangantego n'ibiti biteguye bibiri.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yanditswe mu nyuguti nkuru mu ibara ry'ubururu agiye agerekeranyije azamuka afitemo utumenyetso hagati yaho.

Umuntu uryamye ku gakoresho gakoreshwa mu gutabara, umuntu uri kwitabwaho n'abandi bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru n'icyatsi, hirya yabo hari indege ifite amabara y'umuhondo, icyatsi n'umweru.

Icyapa kiriho abantu bari gukora ibintu bigiye bitandukanye, abambaye amataburiya y'umweru, ubururu n'udupfukamunwa, abandi bari hejuru y'ibyuma bifite imbaraga zisubira, undi ari gusarura ibimera, iruhande handitse amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya.

Abantu bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, imbere hari abandi bari kubaganiriza, inyuma yabo hari ibitambaro by'icyatsi, byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru kiriho n'amafoto.

Abantu bicaye mu cyumba bagizwe n'igitsina gore bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, umukara, icyatsi, ubururu, imbere kumeza hari mudasobwa, ikaye yo kwandikamo n'agapfukamunwa.

Umugabo wambaye ingofero n'amarinete, ufite igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu nyuguti nkuru, mu ibara ry'umutuku, ari mu rurimi rw'icyongereza.

Inyuguti zandikishijwe amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru, ari mu ibara ry'umuhondo n'ubururu wera n'uwijimye.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu mabara y'ubururu, umuhondo, umutuku n'umweru, yanditse mu nyuguti nkuru no mu mpine.

Abaganga babiri bambaye impuzankano y'ubururu, utunozasuku mu mutwe n'udupfukamunwa bari gupima mu kanwa umuturage, hari n'abandi batonze umurongo.

Inziga zirindwi ziri mu mabara atandukanye zanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'mweru n'utumenyetso turi hagati y'inziga.

Ababyeyi bane bateruye abana batatu biteze ibitambaro ku mutwe, inyuma yabo hari igikuta gifite ibara ry'umweru, kimanitseho amafoto agiye atandukanye.

Umugore wicaye mu ntebe, wambaye imyenda y'umukara n'amarinete, ufite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo, inyuma ye hari igitambaro cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu ibara ry'ubururu n'icyatsi.

Amagambo yandikishijwe inyuguti ziri mu mabara y'umukara mu rurimi rw'Icyongereza, agaragaza igihe ibiganiro bizabera n'igihe bizarangirira n'aho bizabera ndetse n'abafatanyabikorwa.

Abaganga batagaragazwa amasura bambaye udupfukamunwa, impuzankano y'ubururu na ga z'umweru, bafite agakoresho mu ntoki zabo bari kwita ku murwayi uryamye ku buriri.

umubyeyi wicaye ari guterwa urushinge, ufite amarinete, mu gituza yambaye agapfukamunwa n'imisatsi izingazinze, inyuma ye hari undi uri kumureba.

Abantu batandatu bahagaze imbere yabana bicaye mu ntebe z'umweru, umwe afite udukapu tubiri mu kuboko kwe kw'ibumoso, inyuma yabo hari icyapa kiriho amabara y'umutuku n'ubururu.

Akapa kari mu ibara ry'icyatsi gashushanyijeho umurongo ugoramye n'umutima n'umubare gatatu, kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza asobanura ubuzima bwiza n'imibereho myiza.

Umugore cyangwa umukobwa wambaye amarinete n'imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi n'umweru, ufite imisatsi igera mu mugongo n'indangururamajwi, uhagaze imbere y'abantu abaha ikiganiro.

Amagambo arambuye nandi ari mu mpine ari mu rurimi rw'icyongereza mu mabara y'ubururu umweru n'icyatsi ikigina n'umukara.

Abagabo babiri bambaye amakoti, bafite n'impapuro mu ntoki, bari gusuhuzanya, inyuma hari igitambaro kinini gisa umweru, kirimo ibirangantego bitatu by'u Rwanda.

Abantu batandukanye bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku bakurikiye abandi bari imbere yabo bambaye udukoresho mu ijosi tugaragaza ibyo bakora cyangwa bashinzwe, inyuma hari igipapuro kinini kiri mu mabara y'icyatsi umweru n'ubururu cyanditseho amagambo atandukanye ku ikarita y'afurika n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore wirabura ufite iherena ku gutwi ry'umweru n'imisatsi y'umukara, wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu namagambo yanditse mu ibara ry'umukara, ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umukara umwe wateretse ukuboko kwe kw'ibumoso ku meza ari kumwe n'undi wambaye amarinete, inyuma ye hari udukoresho twifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro n'icyapa cy'umweru kiriho amagambo y'ubururu.

Abaganga bari mu cyumba bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, ubururu bwijimye n'ubururu bwerurutse, ibikoresho biri iruhande rwabo, bifite amabara y'umukara.

Umugabo cyangwa umusore washyize ibiganza bye kuri mudasobwa imwe iri imbere ye n'indi iteretse hejuru y'ameza atukura, harimo ishusho ari kwitegereza n'amaso ye.

Inyubako ndende kandi igeretse inshuro irenze imwe, ikoze mu birahure, ifite icyapa imbere cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umukara gisa umweru.

Imbere yayo hahagaze ibinyabiziga n'umuntu ushinzwe umutekano, hejuru handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu ibara ry'icyatsi n'akamenyetso k'umusaraba kari imbere yayo magambo.

Inyubako ifite icyapa kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru, kiri hejuru y'umuryango binjiriramo, kigaragaza ko hacururizwa imiti i Kanombe kandi bakorana n'ubwishingizi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo n'icyo bakoresha bapima umurwayi bareba nk'ikibazo yaba afite mu mubiri imbere.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ufite imisatsi y'umukara ifunze inyuma, uri kwita ku muntu uryamye wambaye imyenda iri mu mabara y'umweru n'umukara, uryamye ku gitanda cy'ubururu.

Icyapa gihagaze ku twuma tubiri cy'umweru cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, ubururu n'umukara, ni inyubako iruhande rwayo, ubusitani bufite amashami y'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibitanda bitatu bishashe, amashuka asa ubururu, igikuta gifite amadirishya arimo ibirahure bibonerana, igisenge gisa umweru.

Umuganga wambaye impuzankano ufite imisatsi myinshi ari kugenda hagati mu ivuriro harimo n'abandi baganga n'ibikoresho bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo abagore bateruye abana, bicaye imbere y'igikuta gifite amakaro, imbere yabo hahagaze umugore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, uri kureba ibiro by'umwana.

Umwana wambaye amaherena n' ishati y'umweru, wicaye imbere y'umuganga w'umugore, wambaye agapfukamunwa n'misatsi myinshi igera mumugongo n' itaburiya y'umweru, ari kumupima umuvuduko w' amaraso.

Inyubako ngari ifite ibaraza rifite inkingi enye, n'ubusitani imbere yayo, iruhande hari ikinyabiziga gihagaze, ndetse n'amadirishya agiye atondekanya ku murongo.

Inyubako ndende ifite igisenge cy'ubururu, iteye irangi ry'umweru, ifite inkingi hasi no hejuru, imbere hari igitambaro cyanditseho amagambo, ari mu nyuguti nkuru, mu rurimi rw'ikinyarwanda, avuga ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi n'ikindi gitambaro gishushanyijeho umutima, kiri mu ibara ry'umweru.

Umugabo w'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru, isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, ikaramu mu mufuka w'itaburiya, wicaye ku ntebe iri iruhande rw'igitanda cy'umurwayi, kiri mu mabara y'icyatsi.

Icyapa cy'umweru, cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, kiriho ikirangantego cy'igihugu, inyuma yacyo, hari igipangu cy'amabuye gikikijwe n'ibiti iruhande rwacyo.

Icyumba kigari cy'uruganiriro, kirimo imyanya iri mu bihande bitatu n'intebe ziteye, zimanurwa, imbere hari aho umuntu avugira ijambo n'amadirishya hejuru.

Inzu ndende kandi nini igeretse inshuro zirenze ebyiri, iri gukoraho abakozi abandi bari kugenda iruhande rwayo, ifite amadirishya agizwe n'ibirahure byinshi.

Inyubako ifite ibara ry'umweru n'icyapa cy'umukara cyanditsemo amagambo y'umweru mu nyuguti nkuru mu rurimi rw'icyongereza akikijwe nibimera by'icyatsi.

Inyubako nini yubakishije amabuye, iteye n'irangi ry'umweru imbere, ifite umuryango werekanwa n'utumenyetso tubiri, wanditsweho amagambo hejuru yawo ari mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti nkuru.

Inyubako ifite idirishya ririmo ibirahuri bigaragara, i ruhande rwayo hari ibyatsi bifite n'indabo bisa icyatsi kibisi, iteye irangi ry'umweru n'amabuye yometse ku gikuta i ruhande rw'idirishya.

Icyumba kigari cyo kwa muganga kirimo intebe zifite amabara y'umukara, abantu bicaye uruhande rumwe bategereje guhabwa ubufasha, inzugi zifite ibirahure bibonerana.

Intebe eshatu, hagati yazo harimo udukoresho twifashishwa na muganga mu kuvura, inyuma yaho hari amafoto, isaha, udukoresho twifashishwa bacana amatara.

Icyumba kigari cy'uruganiriro kirimo imyanya itandukanye n'intebe ziri mu ibara ry'ivu zimanurwa, imbere hari aho umuntu atanngira ibiganiro n'amadirishya ari ku gikuta.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byo kwa muganga, bifashisha bari kwita ku murwayi, igihe aryamye kuri utu dutanda dufite amabara y'umuhondo.

Inyubako ngari ifite igisenge gitukura, imbere yayo hari amabendera n'icyapa kigaragaza inzu y'abana b'u Rwanda n'amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umukara asobanura murakaza neza.

Inyubako ndende zifite utwuma ku ruhande n'amadirishya afunguye, imodoka iparitse hasi n'akazu gatoya kari mu ibara ry'muhondo, n'icyapa kiri ku marembo cyanditseho amagambo ari mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umukara.

Igikoresho kiri kwa muganga mu cyumba gisize irangi ry'umweru, isaha ku gikuta n'ishusho igaragaza amabuye ari mu mazi.

Icyumba kigari cyo kwa muganga kirimo ibitanda biryamyeho abantu, ku ruhande hicaye umuntu mu kagare gafasha abafite ubumuga kuva ahantu hamwe bajya ahandi, amadirishya afite ibirahure bibonerana.

Inzu ndende ifite ibaraza hejuru risakawe n'amabati rizitiwe n'utwuma imbere haryo hari icyapa kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru kigaragaza ko ari iy'ababyeyi n'impinja.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye bigizwe n'intebe z'amafotoye n'imeza iriho intebe z'umukara ziri ku ruziga n'umuntu uhagaze imbere agiye kwinjira mu muryango n'insakazamashusho imanitse hejuru ku gikuta.

Inyubako ndende igeretse inshuro irenze imwe, ifite icyapa imbere kiri mu ibara ry'umweru n'umukara, cyandikishijweho amabara y'umweru n'imibare ibiri ndetse gifite n'ibirahure byinshi.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ifite n'ikigega gisa ubururu, imwe ifite amabati atukura n'indi ifite amabati y'ubururu n'amadirishya afite utwuma duhagaze tw'umweru.

Igikoresho cyo kwa muganga, gikoze nk'intebe iramburwa, kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, iruhande hari agatebe gaciye bugufi k'umukara, hirya hari imeza iteretseho n'ibindi bikoresho.

Umuganga kigezweho kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigaragaza ibipimo muganga yafashe n'utumeza duterekwaho ibikoresho bifasha muganga.

Inyubako zitandukanye ziri mu mabara y'umweru n'ivu, zifite igisenge, ubusitani ku ruhande rwazo, burimo ibidukikije, ibendera n'abantu.

Abantu batatu, abakobwa babiri, umuhungu umwe, bambaye amataburiya y'umweru ga z'ubururu, imbere yabo hari icupa rifite umufuniko w'icyatsi.

Abarwayi baryamye hejuru y'udutanda two kwa muganga, bari kwitabwaho n'abaganga bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa mu itente ry'umweru.

Abarwayi babiri baryamye ku bitanda byo kwa muganga, biri mu mabara y'icyatsi, umweru n'ubururu, hirya yabo hari uducupa dutatu dufite imifuniko n'insinga zijya ku kaboko kabo no ku mazuru.

Abaganga bane bambaye impuzankano n'udupfukamunwa, bafite n'uturango tugaragaza ibyo bakora, inyuma yabo hari inyubako yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ari mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wikwije imyenda y'umweru na bote z'umukara, imbere ye hari indobo y'icyatsi, iteretse ku ivomero ry'umukara, iruhande rwayo hari ibirahure n'inzugi zifunguye.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, igitanda gishasheho amashuka y'umweru hejuru hari ifoto imanitse, ku gikuta iruhande rwacyo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ikimeze nka mudasobwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigizwe n'igitanda n'agakoresho afashishwa na muganga ari kureba umurwayi, iruhande hari igikuta gisize irangi ry'umweru n'ibitambaro bikururwa igihe muganga ari kwita ku murwayi.

Inyubako iteye irangi, ifite n'amakaro by'umweru, ishyigikiye inkingi n'uduhuhamuyaga mo imbere, intebe zo kwicaramo zifite imisego.

Ibitanda bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umweru n'ubururu, bifite ibitambaro iruhande by'ubururu n'inzitiramubu z'umweru n'inzugi z'umukara n'amadirishya afite ibirahure.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo insakazamashusho n'amajwi, gifite intebe y'umweru n'icyatsi n'igikoresho gifasha muganga kureba utunyabuzima duto duto.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda kiri m'amabara y'ubururu n'umweru gishasheho amashuka y'umweru n'imisego iruhande hari igikoresho muganga yifashisha avura ku gikuta hamanitse ifoto nini iriho ururabo.

Abantu bahagaze imbere y'icyapa bambaye amakoti n'amakanzu bahagaze mu busitani, inyuma yabo hari ibiti bifite amashami y'icyatsi menshi n'inyubako ifite amadirishya.

Abantu bambaye amashati y'umweru y'amaboko maremare, bari kwerekeza ku nzu nini ifite ibirahure hejuru ku gisenge n'umuryango ufunguye, iruhande hari imyanya yo kwicaramo n'inzu icururizwamo imiti, iri iruhande rw'imodoka ihagaze.

Abantu bane bafite igikoresho, bambaye amataburiya y'umweru, udupfukamunwa, bari gushyira ibikoresho mu macupa yatonze umurongo.

Igipangu gifite amadirishya, imbere yacyo hari igikoresho cyifashishwa n'abana igihe bari kwidagadura, bishimisha cyangwa bari gukina.

Inyubako ifite ubusitani n'utwuma turi mu mabara y'icyatsi n'igisenge n'amatara n'uruzitiro rufite amadirishya, n'ikirere kirimo ibicu by'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibitanda bifite amapine, indangururamajwi n'insakazamashusho, imiryango ifunguye, igisenge gifite ibyuma byinshi.

Icyumba cyo kwa muganga gifite amakaro, igitanda umurwayi yicaraho kimeze nk'intebe kiri mu mabara y'ubururu n'umweru n'igitambaro bikingira umuganga uri kwita kuvura umurwayi.

Icyumba cy'ikoranabuhanga gifite ibyuma bisakaje inyubako n'amabati, hari amatara ari kwaka ibara ry'icyatsi n'imiryango ikinze, n'insinga ziri kunyura iruhande rw'inyubako.

Abantu batatu barimo kugenda, umugabo wambaye ishati ikoze mu gitenge afite umwana mu kuboko kwe kw'ibumoso n'undi ufite akabase mu kiganza cye cy'iburyo ari kugenda, imbere yambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi n'inyubako ziri inyuma yabo n'ubusitani iruhande rwabo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho biri mu mabara y'ubururu n'umweru ,ibitanda n'intebe ,abantu bahagaze hagati yabyo bambaye imyenda ikwije umubiri wose.

Abantu batatu bari kugendera ku mabuye ashashe hasi, yerekeza ku nyubako igaragiwe n'ubusitani burimo ibiti, ubwatsi n'abandi bari ku ruhande rw'inyubako berekera aho abandi bari guturuka.

Abagabo bambaye imero, imbere yabo hicaye abantu babiri, umwe uri kwitabwaho n'umuganga wambaye ishati y'amaboko maremare n'amalunette, imbere ye hari ameza ateretseho agakoresho hejuru, umuganga w'umugabo wicaye ayandikiraho.

Inyubako ndende igeretse kabiri, hanze y'inyubako haparitse imodoka, hahagaze n'abantu, amarembo y'iyo nyubako hariho igitambaro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu mabara y'ubururu, umuhondo, umweru n'icyatsi.

Ifoto igaragaza umubyeyi uhetse umwana, uhagaze imbere y'amarembo rusange y'ikigo nderabuzima cya Kigina gisakajwe amabati y'ubururu, giteye irange ry'umweru.

Inyubako yubakishijwe amabuye, ifite inkingi eshatu n'ikigega ku ruhande, intebe ebyiri ziteye imbere y'umuryango, iruhande hari kugenda abantu babiri.

Inyubako yo kwa muganga ifite umuryango ufunguye imbere hahagaze umugabo wambaye ikote n'ipantaro y'umukara iruhande rwe hari abantu bicaye k'intebe nundi uhagaze imbere yameza hariho igitambararo.

Inyubako isize irangi ry'umweru yandikishijwemo amagambo ari mu ibara ry'umukara mu nyuguti nkuru ifite igisenge gitukura, munsi hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, ifite utugozi turi mu mabara y'umutuku n'ubururu.

Inyubako igaragazwa mo imbere, ifite igikuta cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, yanditse mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umweru n'aho kwicara hakikijwe n'indabyo ziteretse ahantu habiri hatandukanye.

Igikuta kirekire gifite ibirahure byiganje n'irange ry'umweru n'amadirishya afite utwuma twinshi, inyuma hateye igiti gifite amababi y'icyatsi.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye iri mu mabara y'umuhondo n'umweru imbere hicaye ababyeyi bategereje kwakirwa, ku muryango hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro n'ubusitani bugizwe n'indabo hanze.

Icyumba gisa umweru kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara n'umweru gifite amadirishya agaragaza hanze n'utwuma dutambitse hagati y'amadirishya.

Abantu batanu; abagore bane n'umugabo umwe bahagaze imbere y'inyubako yubakishijwe amabuye; ifite ibyapa by'umweru biri mu mabara y'ubururu; byanditswe mu magambo ari mu nyuguti nkuru.

Abantu bagiye batandukanye bagizwe n'abirabura, abazungu, abagore n'abagabo, inyuma yabo hari inyubako y'ivuriro rya Rwamagana riri mu mabara y'ivu n'umuhondo.

Igitambaro cyanditseho amagambo asobanura ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima kirambuye ku nyubako, n'ikindi gishinze imbere y'inyubako kigaragaza itangwa ry'amaraso, imodoka y'umukara n'izindi z 'umweru ziparitse imbere y'iyo nyubako.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bibiri bifite amapine, ku ruhande hari udutambaro muganga akurura igihe agiye kuvura n'amadirishya afite ibirahure bibona.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibitanda bine biryamyeho abarwayi babiri, inzitiramibu eshatu, igipapuro kimanitse ku gikuta cy'umuhondo kigaragaza abantu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri biri mu mabara y'umweru wiganje, igikuta gifite irangi ry'umweru n'inzugi zikoze mu mbaho n'igikuta gifite amabara y'ubururu iruhande rw'ibitanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, igitanda cy'ubururu gishasheho ishuka y'umweru, iruhande hari aho umurwayi yirukanka akora imyitozo ngororamubiri, afasheho n'amaboko n'icyuma muganga akoresha areba amafoto mu imbere y'umuntu na mudasobwa.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru kirimo ibikoresho bitandukanye n'agatanda umurwayi aryamaho umuryango ufite ikirahure kitabonerana hashashemo amakaro y'umweru.

Inyubako igeretse iteye irange ry'umweru ifite icyapa ku marembo yayo, n'ikindi cyometse gitoya kiri mu mabara y'umweru n'umukara, cyanditseho umubare makumyabiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda umurwayi aryamaho, ubwogero bw'intoki, naho isabune ishyirwa n'agakoresho kamufasha kwihanagura mu ntoki.

Icyumba cyo kwa muganga, gifite ibitanda bitatu bishashe, amashuka y'icyatsi, amarido y'ubururu, hirya ku ruhande, atandukanya igitanda ku gitanda.

Inyubako iteye irangi ry'umweru mo imbere, ifite imiryango ikoze mu birarahure, ibyumba birimo utuntu bapangaho ibikoresho, ifite indebakure zimanitse ku bisenge.

Icyumba gisize irange ry'umweru, kirimo ibikoresho birimo ameza afite irange ry'umweru n'icyatsi kibisi n'intebe ifite ibara ry'umukara.

Umwana wambaye ubusa hejuru, uri kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, iruhande rwe hicaye umuntu witeze igitambaro mu mutwe, igikuta gifite amabara y'umweru.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara nishati y'umweru, uri gutunga urutoki rwe ku gitambaro kiri mu mabara y'umweru umutuku umuhondo ubururu icyatsi n'umukara n'abandi babiri bicaye imbere yabo hari mudasobwa.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye biri mabara y'umweru n'umukara harimo udukoresho bakoraho bakaraga n'ishashi isa ubururu.

Umuntu wicaye ku buriri, uri kwikora ku gipfuko gipfutse ukuguru kwe kw'iburyo. Wambaye umupira w'amaboko maremare urimo umurongo, wambaye n'umwenda mugufiya hasi.

Agakoresho muganga yifashisha ari kumva uburyo umutima uri gutera, kari kumwe n'imipira itandukanye y'amaboko n'amaguru bifite amabara y'umukara, umweru, umutuku n'umuhondo.

Igikoresho kiriho ibiribwa, imboga, imbuto, utwuma two guterura dukoreshwa mu myitozo ngorora mubiri, metero n'igikombe kirimo umutobe.

Umugabo wicaye hejuru y'igitanda cyo kwa muganga uri kwitabwaho, wazinze ipantaro, ukuguru kumwe kuri kuzirikwa igitambaro cy'ubururu n'umuganga wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Udukoresho two kwa muganga dufite inshingano zigiye zitandukanye, amapine agaterekwaho ibintu, agafatirwaho amajwi n'amashusho n'akandi gahagaze hagati yatwo.

Imbangukiragutabara iri mu mabara y'umweru n'umukara, ifite ipine ry'umukara ku muryango winyuma, yerekeza mu cyerekezo kirimo ibidukikije nk'ibiti, amazu n'ibindi.

Ijagi y'ikirahure ifitwe mu kiganza, iri gusuka amazi mu gikombe cy'ikirahure giteretse ahantu cyisanzuye, iri mu ibara ry'ubururu.

Umugore cyangwa umukobwa wambaye imyenda migufi imwegereye wazamuye ukuguru kumwe ku iburyo, agufatishije amaboko ye yombi ku ivi, ari mu myitozo ngororamubiri.

Ibishushanyo bigaragaza imyitozo ngororamubiri umuntu ashobora gukora iri mu rugero, kugira ngo agaruke mu bihe yahozemo akomeze yiyumve neza.

Agakoresho ko kwa muganga, gafite ibara ry'ubururu, gakoreshwa igihe umurwayi kamushyizwe mu gituza, umuganga yashyize utwuma mu matwi.

Umugore uhinnye akaguru kamwe akandi karambuye kari hejuru y'isume y'umweru undi wambaye umwenda w'umukara yamushyize ikiganza cye cy'iburyo gifite agashashi gasa ubururu kari hejuru y'ivi.

Abaganga bambaye impuzankano y'akazi bicaye n'abandi bahagaze, imbere ya bo ku meza hari mudasobwa ebyiri n'ikaye yo kwandikamo, muri mudasobwa imwe harimo abaganga babiri.

Icupa ririmo amazi, inyuma yaryo hari urubuto rwa pome, irongi, indimu, agakoresho kifashishwa mu myitozo ngororamubiri na metero.

Umukobwa muto muto wambaye imyenda y'umukara imwegereye n'inkweto z'umweru wicaye yahinnye ukuguru kumwe mu muhanda w'umukara ari mu myitozo ngororamubiri ufite umusatsi ufunze.

Agakoresho ko kwa muganga kifashishwa kavura imvune, gafite umwanya hagati gateretse ku gicucucucu cyako, mu ibara rifite umweru wiganje cyane.

Umukobwa uri mumyitozo ngororamubiri wicaye hasi yambaye imyenda yumukara inkweto z'umweru iruhande rwe hari icupa ry'amazi.

Umukobwa ufite umusatsi mwinshi w'umukara n'icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo, ari kuyanywa yambaye utwuma twohereza umuziki mu matwi.

Inzu ishashe ibara ry'ikigina, irimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ibyo kwirukankaho, ibyo kunyonga, aho kwicara, aho kwikorera imyitozo y'indi isanzwe.

Igikoresho cyifashishwa n'umuntu ufite ubumuga bw'ingingo, kuva ahantu hamwe ajya ahandi, kiri mu mabara y'ubururu n'umukara, gifite aho basunikira kikagira n'amapine.

Umubyeyi wambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu n'umutuku, wicaye ku ntebe y'umukara, ufite agakoresho mu kuboko kwe kw'iburyo ari kureba mu ijisho ry'umwana umuri imbere.

Umugabo uri kunywa amazi ari mu icupa ry'ubururu, afite mu kuboko kwe kw'ibumoso n'ubwanwa bukeya, wambaye umupira, akikijwe n'ibyatsi bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ikabutura y'umukara, inkweto zifunze zirimo amasogisi y'umweru magufiya, apfukamishije ivi rimwe, ateruye utwuma tw'umuhondo mu ntoki zombi, iruhande rwe hahagaze umugabo.

Umukobwa wicaye ku gitanda cyo kwa muganga wambaye imyenda y'umukara imwegereye n'urukweto rumwe rurimo isogisi ry'umukara, uri kwitabwaho n'umugabo uri kumushyiraho bande ku kuguru kwe kw'iburyo.

Imbuto zigizwe n'inanasi, amacunga, umuneke, indimu, iruhande rwazo hari imidari n'ibinini, agakoresho kifashishwa bapima uburebure n'utwuma tubiri dukoze mu ruziga.

Umusore uri kunywa amazi, wambaye umupira umwegereye wo mu myitozo ngororamubiri, inyuma ye hari igikuta kigizwe n'ibara ry'umweru, ririmo amabara y'umukara kigiye gicagaguye.

Itsinda ry'abantu bambaye amajiri y'umweru, afite imisaraba y'umutuku, imbere mu gituza no ku nda riri kwitegereza uri guhabwa ubutabazi bw'ibanze n'uwambaye ijiri itukura.

Umusore wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, ikabutura yijimye, amasogisi y'umweru, afite akarango k'umukara, ukuguru kumwe kuzamuye ku rutugu rw'undi wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Umuntu uhagaze wirabura, wambaye umwenda w'umukara, ufite akarongo k'ubururu kamanutse ku ruhande, n'udukoresho turi mu mabara y'ubururu umutuku, turi ku ivi, ry'iburyo.

Umugore uri gupfukwa uryamye ku gatanda k'ubururu, wambaye urukweto rumwe, uri gufukwa bande n'umugabo wambaye isaha, wambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru n'ipantaro ya kaki.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, inkweto zifunze n'ikabutura wicaye hasi, wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso uri mu myitozo ngororamubiri arimo aragorora ikirenge.

Umusore wirabura ufite imisatsi izingazinze, uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'umukara, udukomo ku maboko, n'ibikoresho bya siporo bikikije iruhande rwe ku itapi y'icyatsi.

Umukinnyi uri kwitabwaho n'umuntu wambaye agapfukamunwa ufite imisatsi miremire inyuma yabo hari ikibuga gifite ubwatsi bw'icyatsi hirya hari inyubako yubakishijwe amabuye.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'amaboko magufi umwegereye, afite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo. Ari kuyanywa, inyuma ye hari ibyatsi.

Icyumba giteye irangi ry'umweru kirimo ibikoresho byo kwa muganga biri m'amabara y'umweru n'icyatsi, n'agatebe gatoya muganga yicaraho ari kuvura.

Umusore wirabura wambaye umupira umwegereye, ufite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo, ari kuyanywa n'utwuma turi mu matwi turi mu ibara ry'umweru.

Umukobwa muto muto, wambaye imyenda y'umukara imwegereye, yicaye ku buriri, yinanura amaboko, imisatsi igera mu mugongo we.

Umugabo wambaye isengeri uri mu myitozo ngororamubiri, ukuboko kumwe yagufatishije ukundi, ufite ubwanwa bukeya, wirabura, inyuma ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ku gitambaro cy'ubururu.

Icyumba kirimo abantu bicaye n'umubikira ufite igitambaro cy'umweru mu mutwe. Bashushanyije igikuta, ibitambaro by'umweru, ubururu n'umuhondo.

Umugabo cyangwa umusore wirabura ufite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo wambaye agakoresho gateye nk'isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso kari mu mabara y'icyatsi.

Umukobwa uryamye ku itapi iri kuri sima, iruhande rw'igikuta kirimo idirishya, wambaye imyenda imwegereye n'ibirenge, wahinnye ukuguru kumwe akoze ku ivi n'ibiganza byombi.

Umurwayi uryamye ku gitanda washyigikiwe n'akuma kazamuye ukuguru kwe kw'iburyo, imbere ye hahagaze umugabo wambaye ikoti n'isaha ku kuboko n'abantu bambaye amataburiya y'umweru.

Imboga z'icyatsi, umuhondo n'umweru ziri kumwe n'imbuto. Akuma ko gukoresha imyitozo ngororamubiri n'icupa ry'icyatsi rifite aho umuntu ashyira umunwa anywa ibirimo n'imbere.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igikoresho kinini gisa umweru iruhande rwacyo hari akabati gapangwamo ibintu hasi hari indobo ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu bane barimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite agakoresho mu ntoki kari kureba mu kanwa k'umwana wambaye umupira w'ubururu, iruhande rwabo, hari umugabo n'umugore bambaye agapfukamunwa.

Umusore wirabura ufite ubwanwa bwinshi, wafunze imisatsi, warambuye amaboko apfukamye ku mavi, wambaye isengeri n'ikabutura by'umukara, iruhande rwe hari intebe ifite imisego.

Umugore cyangwa umukobwa wambaye imyenda imwegereye n'icupa ry'amazi riri iruhande rwe, wicaye ku gatambaro gashashe, kuri sima n'utwuma tubiri two guterura na mudasobwa imbere ye.

Uducupa dutatu duhagaze ahantu hamwe turi mumabara y'umweru, twanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti ntoya n'amabara y'umutuku.

Ibikoresho byo kwa muganga birimo uturindantoki, imiti iri mu dushashi, mu ducupa, ipanze ahantu hamwe ivura indwara zigiye zitandukanye mu mabara y'ubururu umutuku n'umweru.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, biri mu mabara agiye atandukanye, umutuku, umweru, ubururu n'umukara, birimo bande, ibikwasi, imikasi n'igikoresho bitwarwamo.

Ibikoresho birimo n'imiti byifashishwa mu kuvura imvune, birimo bande, ibipfuko, imiti yo gusiga ku mvune, biri mu mabara agiye atandukanye y'umweru, umutuku, ubururu n'umukara.

Umukobwa muto wirabura w'umusatsi mukeya wazamuye amaboko hejuru, wambaye imyenda imwegereye wapfukamishije ukuguru kumwe ukundi guhagaze, imbere ye hari icupa ry'amazi n'ibimera.

Umuntu uhagaze ku kuguru kumwe kw'iburyo ukundi yakuzamuye kw'ibumoso, yambaye ikabutura isa umukara irimo ibara ry'umutuku n'umupira w'amaboko magufi utukura, iruhande rwe hari imipira minini iri mu mabara y'ubururu n'umutuku.

Umuntu wambaye inkweto zifunze zitukura n'imyenda imwegereye y'umukara, wicaye hasi imbere ye hari icupa ry'amazi ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo cyangwa umusore wambaye ubusa hejuru, ukuboko kwe ku iburyo, ku rutugu hari udukoresho tw'ubururu n'umutuku.

Udukoresho dutandukanye turi mu mabara y'umukara, umutuku n'umweru, tugizwe n'uturindantoki abaganga bambara, bande zizirikwa ku mvune, udushashi turimo ibipfuko n'amazi yoza igisebe.

Igikoresho cyo kwa muganga kinini, cy'umweru gifite umwanya umurwayi aryamaho n'undi winjiramo imbere kirekire kinini.

Umukobwa wicaye ku itapi y'umukara, iruhande rwe, hari intebe zo kwicaramo, imbere ye, hari mudasobwa n'utwuma aterura n'icupa ry'amazi ku ruhande.

Abantu bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, umwe aryamye undi ari kumwitaho yavunitse, iruhande rwabo hari umupira w'amaguru uri mu mabara y'umweru n'umukara n'igikapu kiri mu mabara y'ubururu, hirya hari abandi bari mu myitozo.

Ameza ateguyeho amasahani ariho imboga, imbuto, amagi, ariho na none ibikoresho bya siporo bigizwe n'isume, tapi, ibikoresho byo guterura n'ibindi.

Umukobwa wi'misatsi mikeya ufite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo rigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru, ari kunywa amazi n'isume y'umweru ku bitugu avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wirabura wambaye umwenda umwegereye n'utwuma mu matwi ufunze umusatsi wazamuye amaboko, akaboko kamwe kari mu mugongo kandi kambaye isaha, ku kuboko kwe kw'iburyo hari agapapuro cyangwa agatambaro k'umukara.

Mikorosikopu iri mu mabara y'umweru, umukara n'ubururu, yifashishwa mu kureba udukoresho duto duto, tutaboneshwa amaso y'umuntu.

Umugore wambaye imyenda itukura imwegereye wicaye yafashe ku birenge ku gatambaro karambuye hasi, inyuma ye hari intebe y'urubaho n'amadirishya afite ibirahuri.

Inkoni ebyiri zifite imishumi yumukara ,aho intoki zifata zifashishwa mu gufasha abafite ubumuga cyangwa abageze mu za bukuru gutambuka.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nkuru n'intoya, mu mabara y'icyatsi n'umweru ashushanyijeho umuntu umwe uryamye n'undi uhagaze.

Umugabo wambaye imyenda imwegereye y'umukara, inkweto zifunze n'amasogisi, ukuboko kumwe kuri hasi, ukundi gufashe ku ivi, hasi hashashe ibara ry'ivu kuri sima.

Umuntu wirabura ufite umusatsi mukeya n'icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo n'agatambaro k'umweru mu ijosi, ari kunywa amazi inyuma ye hari ikirere.

Agakoresho kari mu mabara y'umweru n'ivu gateretse ahantu hamwe, gafite n'urutsinga n'ikirahure kigaragaza imibare, gapima umuriro umuntu afite.

Agakoresho gafite utwuma bakanda turi mu mabara y'icyatsi, twanditseho imibare iri mu mabara y'umweru gasa umweru, iruhande rwako hari umugozi w'umukara ufite utwinyo tubiri.

Inkweto ndende zifite imashini n'imishumi, ziteretse ku mbuga, iruhande rwazo, hari icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara.

umuntu wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufiya n'ipantaro y'umukara, undi ari inyuma ye yambaye imyenda y'ubururu ari kumwerekera afatishije amaboko abiri ku twuma turi iruhande rwe.

Ishusho igaragaza amagambo yanditse mu nyuguti nkuru n'intoya mu rurimi rw' icyongereza, hasi hari umugabo ushushanyijwe n'ibinini. Iruhande rwe hari urushinge.

Umugabo cyangwa umusore wirabura ufite ubwanwa bukeya wambaye umupira w'amaboko magufi, icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'ibumoso riri ku munwa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biteretse ku meza ari iruhande rw'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, iruhande rwe hari umubyeyi uteruye umwana, uri kurebwa mu maso na muganga.

Udukarito, amashashi, udukombe, turimo imiti duteretse hejuru y'amakaro hirya hari igikuta cy'umweru gifite ibara ry'umukara hasi.

Ahantu hanini, hatwikirijwe n'igisenge cy'amabati, harimo abantu benshi abagore, abagabo, n'abana, ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Abantu bafite amashusho agiye atandukanye iruhande rwabo hari udukoresho turi mu mabara harimo umuhondo n'icyatsi n'umweru wiganje inyuma hari ibara ry'umukara kuri utwo dukoresho.

Agakoresho kameze nk'umunzani kari ku mukeka, iruhande hari amasahani ari mu ibara ry'umukara n'uduti dutoya twifashishwa mu gucucuma ibyo biri ku masahani.

Ibikapu bahagaze hagati y'imisozi, imbere yabo hari guturuka amazi menshi ava hejuru ajya hasi n'amabuye menshi ari iruhande rwabo.

Umuntu wirabura, ufite umusatsi mukeya, wambaye itaburiya y'umweru, wicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hari akabati kabikwamo ibintu, n'imbere ye ku meza hateretse uducupa tubiri.

Agasahane gafite agasekuru hejuru karimo agahini bikoze mu ibumba, iruhande rwa byo harimo ibyatsi by'ubwoko butandukanye, w'iby'ifu n'utuzi tumeze nk'amavuta.

Igikarito kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu mu nyuguti nkuru, zifite n'andi mabara y'umweru ari mu nyuguti nkuru, imibare iri mu magambo ahinnye n'imibare mirongo itanu na makumyabiri ku ijana.

Ibimera bifite amababi y'icyatsi menshi, ayahishije iruhande rwabyo, hari n'ibiti birebire bifite amashami menshi biteye ahantu hamwe.

Umugore wambaye imyenda y'umweru, ufite agakapu mu kuboko kwe kw'ibumoso, akaboko k'iburyo gafashe ibimera bifite amababi y'icyatsi arimo n'amakoma y'insina.

Agacupa k'umweru gafite umufuniko kanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu mabara y'umukara n'umutuku, inyuma hari ibara ry'umukara wijimye cyane.

Udukombe duteretse ahantu hamwe turi mu mabara atandukanye dufite umuvuniko w'umuhondo; twanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu mu rurimi rw'icyongereza.

Umutiba uriho inzuki; imbere yaho hari uducupa dushyirwamo ubuki, n'ikimera cy'igihwagari gifite ibara ry'umuhondo; hejuru hari ikirere kirimo ibicu.

Uducupa tubiri turi mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'umukara, iruhande rwatwo hari akarahure karimo ibisukika bisa nk'umweru, nanone iruhande hari ikimera cyakaswemo uduce dutatu.

Ikimera gifite imbuto zigiye zitandukanye, zitonorwa n'amashami afite amababi y'icyatsi, iruhande hari ibyatsi bigiye bitandukanye.

Urubuto rwa voka, rumwe rusatuye urundi rucyuyuzuye, inyuma hari igikakarubamba, n'imbere ya voka hari isabune byifashishwa mu kwita ku isura y'umuntu.

Udukoresho dutandatu turi kureba hasi turi mu mabara y'umweru y'icyatsi dushyirwamo umuti uvura imvune cyangwa umuti woza amenyo, inyuma yabyo hari ibara ry'umweru.

Abantu babiri bari mu cyumba kirimo agakoresho kifashishwa mu gukonjesha ibyo kunywa n'ibyo kurya babirinda kwangirika, iruhande hari akabati gapanzemo amacupa n'udukombe.

Umugore wambaye imyenda y'icyatsi, washyize ibiganza byombi ku gakoresho karimo ibyatsi bigiye bitandukanye birimo ibifite amababi, imizi n'ingingo.

Imiti ipanzwe ahantu hamwe iri mu mashashi mu ducupa no mu dukarito, iri kumwe n'urubuto rw'inanasi, inyuma hari ibara ry'umweru bipanze ahantu hamwe.

Udukoresho turindwi turi mu mabara atandukanye, tumwe dukoze kimwe dupanze ahantu hamwe, hari igikuta gikoze mu mabuye kiri inyuma yacyo mu ibara ry'ivu.

Ikimera cyameze mu busitani, gifite amababi maremare n'amagufiya y'icyatsi, indabyo z'umutuku, umweru, umweru, umuhondo n'ikigina.

Igishushanyo kiri mabara y'icyatsi gifite ibibabi bitatu, hejuru handikishijwe amagambo ari mu mabara y'icyatsi n'umweru mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti ntoya.

Agakoresho kagizwe n'amabara y'icyatsi n'umweru kari kureba hasi, gashushanyijweho igikakarubamba, inyoni, kanditsweho n'amagambo. Kabikwamo, gashyirwamo, imiti gakondo.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi cyeze uturabo turi mabara y'umweru n'umuhondo, inyuma hari ibara ry'cyatsi kibisi kigaragaza ibidukikije.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi uri gusoroma ibyatsi biri imbere ye, iruhande rw'ibyo byatsi hakikijwe ibindi byinshi cyane.

Ikimera gihagaze ku biti bine bitandukanye mu butaka, gifite amababi menshi, iruhande rwacyo, hari ibindi bimera bigikikije.

Agasekuru gafite n'umuhini wako kari mu mabara y'umukara arimo ubudomo bw'umweru, gateretse hagati y'ibimera by'icyatsi bifite amababi manini n' amatoya.

Amashusho ane arangwa n'ibimera bibiri bifite inyuguti ya a na be n'ibindi byo hasi bigaragazwa n'inyuguti ya ca na da birimo igitoki n'ubunyobwa.

Umuti gakondo uri mu gacupa k'umweru, gafite icyapa kigizwe n'ibara ry'ubururu, n'umweru, harimo amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umweru, n'inyoni iri kuguruka ya kaki.

Ibara ry'umukara wijimye, riteretsemo hagati, icupa ry'umweru rifite n'umupfundikizo, igicucucucu cy'icupa kiri munsi y'iryo cupa.

Akapa kariho ibice bibiri; kimwe kiriho ibara ry'umweru ririmo ubusa; ikindi kirimo agashashi kari mu mabara y'umuhondo n'umukara; kariho uburemere bw'amagarama ijana.

Udukombe turi ku murongo dupfundikijwe imifuniko y'umutuku n'umweru, mo imbere harimo imiti n'udupapuro tw'umweru twanditseho inyuguti z'umukara.

Ibimera by'ubwoko butandukanye biri mu dukombe tunini turimo itaka, bwandikishijwe amabara y'umukara ari mu nyuguti ntoya n'amagambo ari mu nyuguti nkuru, mu ibara ry'umukara mu rurimi rw'icyongereza.

Agakarito kari mu mabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, gashushanyijeho ikimera gifite uburabyo hejuru n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu nyuguti nkuru n'intoya.

Amafoto y'ubwoko bugiye butandukanye agaragazwa n'inyajwi ziri m'amabara y'umukara n' ibikoresho bipanzwemo amacupa n'ibindi bikoresho.

Uducupa tw'umukara dufite imifuniko y'umweru turi kuvanwa mu dukarito twatwo n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru , ishati y'amaboko maremare n'agapfukamunwa , akanoza suku ku mutwe turi guterekwa hejuru y'ameza.

Imiti y'ubwoko bugiye butandukanye ipanze mu bikoresho ibikwamo, dufite amabara higanjemo ay'umuhondo, umweru, icyatsi, umutuku, mu dukarito no mu dukombe.

Ibikoresho birimo agasekuru, umuhini wako n'ikiyiko bikoze mu giti, birimo birakoreshwa mu gusekura umuti w'ibyatsi uri kuyiko n'iruhande rwacyo.

Uducupa dutandatu tw'umweru dufite ibipapuro bidupfutse kuruhande tw'amabara atandukanye n'akabido k'umuhondo gatoya, iruhande rwako hari igikarito biri ku cyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umuhondo mu nyuguti nkuru n'intoya n'impine.

Umuntu ufatishije intoki ku mababi y'igiti gifite amashami ari inyuma yikibabi cyumye, hirya hari inyubako igaragaza amabara agiye atandukanye.

Ikimera gifite agashami gafite udushami tubiri, cyeze imbuto zitonorwa n'amashami y'icyatsi kibisi menshi agiye ari impande zacyo.

Ibimera bigiye bitandukanye biteretse mu ndobo zifite amabara atandukanye n'amagambo yanditswe mu rurimi rw'icyongereza mu nyuguti ndende n'intoya by'umukara nyuma yabyo hari ibara ry'umweru.

Ikimera kiri mu mabara y'icyatsi, gifite uburabo bw'umutuku n'umuhondo n'uruti rurerure rumeraho amashami hejuru y'igitaka cy'ikigina, iruhande hari ibindi bimera byagiye bimera.

Ibimera by'icyatsi bikikije imbaho zizitiye urugo n'indobo y'umutuku, irimo ibutaka biteyemo ibimera by'icyatsi kibisi.